Gura turi kumwe ubwishingizi buhendutse bw'ubuzima, ukanze akanyenyeri magana atanu mirongo itatu na rimwe urwego, ubu bwishingizi butangwa n'ikigo cy'igihugu cyitwa Radiant.

Ikigo gitanga ubwishingizi ku zabukuru ndetse n'urubyaro rwawe, bakaba batanga ndetse n'ubwishingizi ku bijyanye n'amashuri y'abana n'imyigire, ndetse n'imibereho ya buri munsi.

Ni ubwishingizi bw'impanuka zonona umubiri, butangwa n'ikigo cy'Igihugu cyitwa radiyanti, wirinde ijambo sinamenye mu buzima bwawe.

Uru ni urunywero ndimo ndabonamo abantu bamwe bicaye mu ntebe hariho n'undi uhagaze, inzira ijyayo harimo amabara y'umweru n'umukara, ku ruhande hariho n'akantu gatukura.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamwo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, harimo amatara ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu, hari kandi abantu benshi n'igishushanyo kiriho abagabo batatu.

Inzu icururizwamo ibikoresho by'ubukorikori bikozwe mu ruhu ndetse n'ibindi byinshi bikomeye. Harimo inkweto zikozwe mu masaro n'ibikapu bikozwe neza.

Isoko ricururizwamo imyenda y'abagabo, abagore, abana, abasore ndetse n'inkumi, harimo amapantaro, amashati, imipira, amakanzu ndetse n'amajipo byiza cyane bifite amabara ahebuje.

Ibikoresho byakozwe mu bitenge, harimo imitaka inyuranye ndetse n'amakanzu y'abagore, byiza kandi bifite ubwiza buhebuje, bikaba biteretse ku meza y'umweru.

Ahacururizwa imyenda y'abantu bagiye batandukanye b'ingeri zose abana, abakuru ndetse n'abasore n'inkumi bacuruza kandi n'inkweto z'ubwoko bwose, hari amakanzu, hari imipira n'amapantaro.

Ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo ibyanyujijwe mu nganda bikongerwamo intungamubiri zigiye zinyuranye ndetse bikaba byafungwa neza mu bikoresho byabugenewe.

Hacururizwa imyenda idozwe, hifashishijwe ibikoresho byabugenewe, ikaba ikorwa mu bitenge ndetse n'ibindi bitambaro by'amoko yose, hakaba hari kandi iy'abagore n'iy'abagabo.

Inzu y'ubukorikori, icuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, bikorwa mumpu, amahembe, amasaro, n'ibindi byinshi cyane, byuje ubwiza ndetse n'ubuhanga bukomeye.

Imodoka nziza iri mu ibara ry'umukara, iri kugurishwa miliyoni cumi na zirindwi z'manyarwanda, hirya y'aho hakaba hari izindi modoka zigiye zitandukanye, zifashishwa mu gutwara abantu benshi n'abake.

Cyane iri mu cyanya cyahariwe ubucuruzi, iri kugurishwa miliyoni cumi n'ebyiri z'amanyarwanda, ku nkengero hari ibiti by'ibidukikije.

Cy' ifaranga ry'u Rwanda gifite agaciro ka makumyabiri, kikaba gishushanyijeho ikirango cy'agasheke, ishaka ndetse kikaba kiriho umubare w'amafaranga.

Umuntu uri gucuruza ikinyobwa cy'amata gikomoka ku nka, gikungahaye ku ntungamubiri, kikaba kiri mu kavido kabugenewe gafite isuku.

Inzu icururizwamo ikinyobwa gikomoka ku itungo ry'inka, cy'amata, hari igikoresho cyabugenewe gishyirwamo icyo kinyobwa kugira ngo kibirinde kwangirika.

Gikungahaye ku ntungamubiri, gikozwe n'ifarini, amagi, amata, amazi, inyanya, inyama, urutunguru n'ibindi byinshi.

Inzu icururizwamo ibicuruzwajye bitandukanye higanjemo ikinyobwa gikomoka ku nka cy'amata, hari umugore uri kuyabuganiza ayashyira mu cyuma cyabugenewe kiyakonjesha.

Ikiribwa gikorwa mu ifarini, amagi, amata, amazi ndetse n'isukari gikungahaye ku ntungamubiri zigiye zitandukanye, hakaba hari n'ukuboko gufashe amata ari mu gikombe.

Inzu icuruzwamo ikinyobwa cy'uruganda rw'lnyange, aho batunganya amazi, amata ndetse n'ibindi, bakayashyira mu bikoresho byabugenewe birinda kwangirika bikoranywe isuku.

Ibicururizwa ibinyobwa bidasembuye bikorwa n'uruganda rw'inyange, bifite intungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye, bafite amazi, amata, ndetse n'imitobe.

Inzu icururizwamo ikinyobwa gikomoka ku itungo ry'inka cy'amata, hari icyuma cy'ikoranabuhanga kibikwamo ayo mata neza akaguma akonje ndetse akagumana ubuziranenge ntakemangwa.

Agapapuro k'isuku gashyirwa ahabugenewe kifashishwa n'abacuruzi ndetse n'abaguzi, bakaba bakihanaguza mu ntoki no ku munwa mu gihe umuguzi amaze gufata icyo kurya.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bitandukanye higanjemo igikomoka ku itungo ry'inka cy'amata, hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuyabika no kuyatunganya mu buryo bwiza kandi bugezweho.

Aba ni abantu batatu, babiri bambaye imipira itukura, n'inzofero z'umukara zarimo amagambo y'umweru, bafite ibyo kunywa mu ntoki zabo, bambaye amapantaro y'amakoboyi.

Ibi ni ibi nyobwa by'abana bifunikishije umufuniko, ibara ry'umuhondo biri mu icupa rizamuye, harihoamagambo y'umukara.

Uburyo bw'ikoranabuhanga wifashisha icyuma cy'ikoranabuhanga kigendanwa telefone, ukaba wakohereza, ukakira, ukabitsa ndetse ukanabikuza amafaranga utavuye aho uri ndetse ukanaba wanagura umuriro.

Uburyo bw'ikoranabuhanga, ukoresha ufite telefone yawe igendanwa, ukaba wagura ifatabuguzi ryo guhamagara, kwandika ubutumwa bugufi ndetse n'ibindi hirya no hino, utavuye aho uri.

Umwanya nyaburanga rikurura abantu batandukanye, risohokerwamo n'abantu b'ingeri zose. Hakaba hari amazi yo kongeramo, hakaba kandi hari ibidukikije bitandukanye n'ubusitani bwiza.

Inyubako itangirwamo ubwishingizi ku ngeri zose, hari abanyamahanga bafite mudasobwa zifashishwa mu ikoranabuhanga mu kwandika abantu ndetse hakaba hari n'imitako y'indabo.

Gura ibikoresho by'ubugeni n'ubukorikori, byakozwe mu mpu zigiye zitandukanye ndetse n'ibitenge, amasaro n'ibindi byinshi cyane bikoranywe ubuhanga.

Inzu irimo ibikoresho by'ubugeni, harimo inkoko, ibisheke, ndetse n'ibindi byinshi byakozwe mu nshinge, kandi hakaba hari ibindi bitatsweho amasaro.

Hacururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye, hahuriye abaguzi ndetse n'abacuruzi, bacuruza ibiribwa nk'inyanya, imbuto ziganjemo imineke n'ibindi byinshi cyane.

Isoko rinini cyane ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo imboga ndetse n'imbuto bikungahaye ku ntungamubiri, hacururizwamo kandi ibitoki, inyanya, imineke n'ibindi.

Ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo imboga n'imbuto, bikungahaye ku ntungamubiri dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo bugende neza, hari n'inyanya amashu, imiteja n'amadegede.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye, imbuto ndetse n'imboga, harimo inyanya, hakaba harimo imyembe, ibihaza, indimu n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abaturage berekeza mu isoko abandi bavayo, bikoreye imitwaro y'ibiribwa, bigizwe n'ibitoki, imbuto ndetse n'imboga, ku mpande hari insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Umukozi w'ikigo cy'itumanaho umuyobora mugari mu Rwanda MTN yambaye impuzankano y'akazi ni mu ibara ry'umuhondo ku ishushosi y'agatambaro k'ubururu, bari gutanga ubufasha ku birebana no kubitsa no kubikuza amafaranga.

Akazu gato cyangwa ishami rishinzwe gukwirakwiza cyangwa gutanga ubufasha ku birebana n'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda MTN, aho ubitsa, ukanabikuza, utavuye aho uri, ukoresheje telefoni igendanwa yawe yo mu ntoki.

Abantu bakorera ikigo cy'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda cya MTN, bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umuhondo, bari gutanga ubufasha ku birebana no kohereza, kwakira, kubitsa no kubikuza amafaranga, wifashishije telefoni igendanwa.

Ahatangirwa ubufasha ku kigo cy'ikoranabuhanga cy'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda MTN, hari umutaka uri mu ibara ry'umuhondo ndetse bakaba batanga serivisi zijyanye no kubitsa no kubikura amafaranga.

Abamukozi b'ikigo cy'umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda, bakaba bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umuhondo, iki kigo kikaba cyitwa MTN ndetse bakaba batanga ubufasha ku bijyanye no kubitsa no kubikura amafaranga.

Icyapa kiriho uburyo wakwishyura, wifashishije telefoni igendanwa ndetse ukaba wahamagara ukishyura ibyo ukeneye byose.

Aka ni akazi ka emutiyeni kanditseho akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri urwego handitseho Jean momo iti, ubu ni uburyo bwa sosiyete nyarwanda.

Umuhanda uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitwawe n'abagabo bambaye impuzankano z'akazi, ziri mu ibara ry'umutuku, ndetse bakaba bari kumwe n'imodoka, ku nkengero hari ibiti.

Abakora umwuga w'ubumotari yo kujyana ibiryo hirya no hino ku babitumije, aho umuguzi yifashisha icyuma cy'ikoranabuhanga cya telefoni igendanwa, akaba yatumiza ibyo kurya bikamugeraho aho ari hose.

Ikinyabiziga giteretseho igikoresho gitwarwamo ibyo kurya, cyanditseho vuba vuba, kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, aho umuguzi atumiza ibyo kurya akoresheje ikoranabuhanga.

Ikigo cyitwa Kasha ufite igikoresho cyifashishwa mu gukwirakwiza ibyo kurya aho umuguzi atumiza ibiribwa bihiye yifashishije igikoresho cy'ikoranabuhanga akaba yakwishyura bikamugeraho neza.

Urubuga rw'ubucuruzi ruhurirwaho n'umuguzi n'umucuruza bakaganira ku bijyanye n'ibiciro by'ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo: ibikapu, imisatsi, inkweto ndetse n'ibindi n'ibindi.

Ikinyabiziga kifashishwa mu gutwara gushyikiriza ibiribwa bihiye ku bantu bagiye batandukanye, kiri mu ibara ry'umutuku cyanditseho yego, wahamagara icyenda rimwe icyenda rimwe.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali, ifite igipangu kiri mu ibara ry'umukara, isize amabara meza harimo ibara ry'umweru, ikaba iri kugurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda, ku nkengero hari ibiti.

Inyubako yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho iherereye mu mujyi wa Kigali ahagana Kanombe ikaba ifite igiciro cya miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Mu umujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda mu gace ka Kabeza iri kugurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu, ifite ubwogero bwa kizungu ndetse ikaba isize amarange meza cyane yubatswe ahantu heza.

Igipangu kiri ku isoko kigurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu, giherereye mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, gisize amarangi meza cyane y'umweru, umukara ndetse kikaba cyubakishije amabuye akomeye.

Umwirabura uri gusobanurira umunyamahanga ku cyanya kijyanye n'ubukerarugendo, hari amazi ndetse hakaba hari n'ubusitani bwiganjemo indabo ndetse n'imikindo.

Igurishwa iherereye mu mujyi wa Kigali, mu gace k'i Kanombe isize amarangi meza cyane, imbere hari ubusitani burimo indabo, ikaba igizwe n'ibyumba bine by'uburyamo n'ubwogero butatu.

Iherereye mu mujyi wa Kigali mu gace ka Kabeza, isize amabara meza cyane y'ubururu bwererutse ikodeshwa, hirya yaho hari ibiti bikurura umwuka mwiza bikanafata ubutaka.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho kandi burambye, isize amarangi nk'umukara n'umweru, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali mu gace ka Kabeza, ikodeshwa ibihumbi magana atandatu y'u Rwanda.

Inzu iherereye mu Mujyi wa Kigali, nziza cyane, iri mu gipangu, isize amabara meza, y'umweru n'umukara n'ayandi, ikaba igurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amanyarwanda.

Igorofa iherereye mu mujyi wa Kigali mu gace ka Nyarutarama ikodeshwa, imbere haparitse imodoka iri mu ibara ry'umukara ndetse ku nkengero hagiye hari ibiti by'ibidukikije.

Inzu nziza iherereye mu mujyi wa Kigali mu gace k'i Gikondo, ikodeshwa amafaranga y'u Rwanda ibihumbi magana abiri na mirongo itanu, ikaba ifite uburyamo bune ndetse n'ubwogero bumwe.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bwiza kandi buhebuje zishize amarange atandukanye ndetse hirya no hino hakaba hari ubusitani, zikodeshwa amafaranga y'u Rwanda ibihumbi magana atandatu.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho ishize amarange meza kandi agezweho, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali icuruzwa miliyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu iri mu mujyi wa Kigali Kimilonko mu i Zinindiro, ikaba ari igorofa ikodeshwa, hakaba kandi harimo ibikoresho byo mu nzu nk'intebe, ibitanda, utubati ndetse n'ameza.

Isoko rya kijyambere ryubatswe mu nzu y'igorofa rirerire hakaba hari ahacururizwa ibiribwa by'amafunguro ndetse hakaba hari imitaka iri mu ibara ry'umutuku.

Isoko ricuruza ibicuruzwa bya kijyambere, byanyujijwe mu nganda, bikongerwamo intungamubiri zigiye zitandukanye, bigafungwa mu bikoresho byabugenewe, bibirinda kwangirika, bikabikwa igihe kirekire.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, y'umunyamuryango mituweli yifashishwa mu gutanga ubuvuzi bunoze kandi burambye ku mafaranga make, aho buri wese aba ayifite.

Ababyeyi baje gufata, amakarita yabo y'ubwisungane mu kwivuza, ya mituweli, ndetse bakaba bicaye ku meza, hakaba hari n'abayobozi, hirya yabo hari indabo.

Amakarita ahabwa abanyamuryango y'ubwishingizi mu kwivuza mituweri, ukoresha ujyana kwa muganga, bakaba baguha ubufasha mu bijyanye no guhabwa imiti ku giciro cyiza.

Uko wakwizigama muri ejo heza wifashishije telefoni igendanwa, aho wasura urwo rubuga ugatangira ukajya wizigama amafaranga make make akakugoboka mu zabukuru no mu minsi iri imbere.

Iterambere rigezweho ricuruza ibinyobwa ndetse n'ibiribwa byanyujijwe mu nganda bikongerwamo intungamubiri zigiye zitandukanye ndetse bigafungwa neza mu bikoresho byabugenewe.

Y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bidasembuye n'amata, byanyujijwe mu nganda bigafungwa neza mu buryo bubirinda kwangirika kandi bikabikwa neza.

Isiko ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byanyujijwe mu nganda, bikongerwamo intungamubiri zigiye zitandukanye nyinshi cyane ndetse zigafungwa neza mu buryo bwabugenewe.

Isoko rya kijyambere, ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byanyujijwe mu nganda, bikongerwamo intungamubiri zigiye zitandukanye, ndetse bikaba bifungwa neza mu bikoresho byabugenewe bibirinda kwangirika.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye, byanyujijwe mu nganda, bigafungwa neza mu buryo bwabugenewe, bufite isuku bubirinda kwangirika, bikabikwa igihe kirekire.

Isoko rya kijyambere ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byanyujijwe mu nganda bigafungwa neza mu buryo bugezweho bw'ikoranabuhanga bubirinda kwangirika kandi bikabikwa igihe kirekire.

Aho baruza ibinyobwa bidasembuye, byanyujijwe mu nganda bigatunganywa neza, bikongerwamo intungamubiri zigiye zitandukanye, bigafungwa neza mu buryo bwabugenewe bubirinda kwangirika.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye by'imbuto ndetse n'imboga, bikungahaye ku ntungamubiri zikenerwa umubiri wa buri munsi hakaba harimo imineke, amatunda, inyanya n'ibindi.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa byanyujijwe mu nganda, bigafungwa neza, mu buryo bwabugenewe bubirinda kwangirika, hakongerwamo kandi intungamubiri zigiye zitandukanye, zitunga umubiri zikanawubaka.